Ibigori by'imishishe byashyizweho ifumbire mvaruganda bitewe mumurima uteguye neza bizatanga umusaruro bitewe nuko byitaweho cyane mu gihe cyo kubitegura no kubitera.

Umusambi w'ubururu n'umweru uteretseho akajerekani karimo amata yo mu macupa atatu, amata ari mu kajerekani k'umweru hariho n'ikirango cy'amata n'inka ayo mata aturukaho.

Akarima k'igikoni gakozwe hifashishijwe ibiti ndetse n'ubutaka bwinshi, hateyemo imboga rwatsi, inyuma yako hari uruzitiro rukikije ako karima k'igikoni.

Umubyeyi uhagaze imbere y'umuryango w'icyatsi kibisi, yambaye igitenge cy'iroza, agapira karimo amabara y'umukara, umuhondo ndetse n'umweru, afite ihene mu ntoki, abana babiri, umwe ufite ihene iruhande rwe.

Icyanya nyaburanga kirimo abakerarugendo bagera kuri bane, mukerarugendo w'imbere afite imfatashusho, igikapu n'imyenda y'imbeho, mukerarugendo wa kabiri yambaye umwenda w'umutuku n'umukara, ari kumwe n'abandi babiri inyuma y'iwe.